Urabona ko bishimiye ibintu uyu umuntu ari kuvuga harimo abategarugori benshi ndetse n'abagabo bakeya niba ndikubonayo, ariko uri imbere nawe afite ibyo ari kubaganiriza yishimye cyane, nabo barakurikiye imbere hari ikintu kiri kwaka cy'ubururu.

Ndabona hari abantu bahateraniye, bambaye imyenda myiza cyane n'abadamu bamanitse akaboko ngo batangage ibitekerezo harimo, abasore imbere yabo hateretse uducupa twa'amazi ,amakayeyi n'amatelefone yabo ubona ko ari ibintu bikeye.

Aba bantu nkuko ubabona harimo abategarugori ndetse n'abagabo bicaye bafite ibyo bari bajemo kumva ndetse n'inama runaka inyuma urabona amadirishya meza cyane ari mu marido y'ubururu imbere yabo bafite uducupa tw'amazi ndetse n'amakayi.

Aba rero ni ababyeyi babona ko bitabiriye inama runaka yita ku bibazo biba byugarije isi, ndetse n'igihugu cyabo muri rusange bafite amakaye imbere yabo n'amakaramu, telefone ndetse n'amazi yo kunywa igihe wumva ugize icyaka rwose urabona ko basa neza.

Uyu mugabo rero urabona ko asa n'ukuze wambaye ishati irimo uturongo tw'umukara, yegeranye n'undi ubona ko ameze nk'umusore nawe bafite ibintu bari kureba bareba hamwe bose, imbere yabo hari impapuro ndetse n'amatelefone, naho inyuma hari abandi bafite n'amazi yo kunywa rwose.

Aba babyeyi babiri urabona ko bombi bishimye, umwe yakenyeye undi na we arahagaze, inyuma hari abapapa bishimye nabo, abandi n'imyenda y'ubururu bari ahantu ubona ko badashobora kunyagirwa ndetse n'izuba ngo ribice, hakurya urahabona n'abandi batandukanye, gusa bari mu twatsi ubona ko ari ibirori biryoheye ijisho.

Aba ni abadamu ndetse n'abagabo basa n'abakuze, nk'uko ubibona baricaye bafite ibintu bari kureba imbere yabo, abandi bari muri mudasobwa, bisa n'aho bari kwandika ibiri kuvugirwa aho ngaho.

Aba rero ubona ni abagabo ndetse n'abadamu basa n'aho bitabiriye inama runaka, harimo abanyamakuru bari gufotora, bafite amazi imbere yabo barikunywa, ndetse n'amatelefone imigozi yambukana indangururamajwi bari buvugiremo.

Ababyeyi ubona ko basa n'abakuze, bamwe bumiwe abandi bambaye imyenda isa y'ubururu na n'utugozi mu ijosi, imbere y'abo hari amazi yo kunywa rwose, uwumva afite icyaka agomba gusomaho, nta kabuza rwose.

Iyi nama ntabwo ntabwo nzi ngo iri kwiga ku biki. Gusa icyo mbona cyo ni uko irimo abantu bakuze, ndetse n'abagore batinyutse nyine, bavuga ngo nanjye ndashoboye reka njye muri biriya bintu. Imbere y'abangaba ndi kureba, hari amakayi, amazi, ndetse n'agaseke.

Iyi nama ifite ibintu biri kwibwaho nkuko bibona uyu mubyeyi rwose ufite mikoro wambaye akenda k'umukara hasi yarengeje ku gakanzukiwe hakurya hari abandi bicaye ubona ko bamukurikiye, imitako ku bikuta imbere ye hari ibindi bikoresho bari kwifashisha kugira ngo byumvikane neza.

Ababyeyi baberwa na kumwe ari umuyisilamukazi ndetse nawe nako imisatsi ye iri hanze kuko aritandiye ubundi imbere yabo hari amazi ndetse meza cyane y'inyange ushobora kugura ukinkwera mu gihe icyaka kikwishe.

Aha rero bisa n'abari mu nama biga ku kibazo runaka cyugarije aho baba, ndetse barimo abagore bambaye imyenda y'imituku, abagabo nabo bambaye amakoti abona ko baberewe imbere ku meza bateretse uducupa tw'amazi bagira icyayaka ari gusoma.

Uyu rero ni umugabo usa n'ukuze ubona ko yambaye isaha n'ishati nziza mikoro mu ntoki arimo araganiriza abantu wakubita akajisho ke inyuma hari inzego z'umutekano, yambaye impuzankano z'akazi rwose ubona ko ari ibintu byiza cyane biryoheye amaso.

Noneho ni abantu benshi ubona ko bishimye bari kubyina. Harimo urubyiruko rwose, bamwe bari no gufotora, hadi n'indangururamajwi. Nkurikije ukuntu bimeze, ibi ni ibirori byabereye ahantu runaka. Bamwe bari gufana bambaye imyenda isa rwose, ubona ko ari ibintu bibereye ijisho.

ibi rero bisa naho ari inama yateraniyemo abategarugori ndetse n'abagabo batandukanye, bamwe bafite telefone imbere zabo, ndetse n'amazi yo mu bwoko bwa Nili ubona ko icyaka nikibica bari busomeho imbere hari undi mugabo rero asa naho arikubaganiriza ibintu bitandukanye.

Uyu mupapa usa n'ukuze gusa nk'iko umubona imbere hari uducupa twamaze tubiri two kunywa, impande hari umadamu niba ari uwiwe simbizi, ariko inyuma urahabona abandi benshi cyane bisa n'aho bitabiriye inama runaka bafite ibyo baje kuganiraho rwose banateze amatwi.

aha rero bisa n'aho ari amahugurwa runaka afite ibintu ari kwigaho, hari intebe nziza cyane ubona ko zikeye zo kwicaramo. Imbere hari inyerekanamashusho iriho ibintu bari kuvuga nyine ndetse hari umugore ufite mikoro wambaye imyenda y'umukara uti kubasobanurira.

Ababyeyi rero abona ko bakenyeye basa neza, umwe yambaye imiringa ku maboko, telefone mu ntoki, n'undi nawe urabona ko yiyambariye ibisa ubururu, hakurya hari abasa n'abakuze ybcaye mu ntebe nziza cyane zikeye nuko basa naho bari kwiga ku bibazo runaka.

Hano rero hari urubyiruko, abategarugori ndetse n'abasore urabona ko bafite ibintu bakurikiye, kumisatsi yabo ubona ko isokoje undi ntawo afite, bicaye mu ntebe nziza cyane z'imikara ubona ko bari kubwirwa amagambo runaka.

Uyu mugabo rero ubona yambaye umupira w'ubururu afite ikaramu n'urupapuro arimo arandika imyanzuro iri kuvugirwamo ahangaha, imbere ye hari uducupa tw'amazi y'inyange bari kunywa rwose igihe bumva bagize icyaka, hakurya hari abandi benshi cyane ubona ko bameze neza n'abo bakurikiye.

Uyu ni umubyeyi rero ubona ko afite ikintu ari kubwira abantu. Afite imisatsi iboshye, afite utuntu mu ntoki hakurya hari abandi benshi, ndetse n'urubyiruko bari kumva ibintu arimo kuvuga. Urabona ko bateye agatebe baricara.

Aba ni abasore urabona ko bameze neza bafite uducupa tubiri tw'amazi ndetse n'inkumi, bari bitabiriye umuhango runaka uri kuhabera, kugira ngo baganire ku bibazo, byugarije urubyiruko niba ntibeshye neza kubera ko, abarimo hano bose ni cyo kigero barimo.

Hano rero urabibona ni abantu benshi bafite ibintu bari bitabiriye ndetse harimo umugabo umukurikiye bisa n'aho afite ikintu yo kuvuga, impapuro nyinshi mbere ye, agacupa k'amazi, abandi bafite mudasobwa bisa nk'aho ibyo bari kuvuga bari ku byandika mo aho.

Aba rero ubona ni abantu benshi ubonako harimo abasaza cyangwa abantu basa n'abakuzeho gatoya, nta musatsi barawogoshe rwose, harimo abategarugori na bo bambaye ibitambaro bafite za mudasobwa ndetse na bo bafite ibyo bari kurebamo.

Aba ni abasore ubona ko n'inkumi zivanze bambaye imipira iriho idarapo ry'u Rwanda y'ubururu ndetse hari imbere amazi yabo y'inyange yo kunywa kugira ngo n'ibicwa n'icyaka basomeho.

Aba bantu rero ubona harimo urubyiruko inkumi ndetse n'abasa n'abakuze bari muri salle runaka mbona ko hari indangururamajwi nyinshi cyane bisa naho bari kwifotoza rwose agafoto k'urwibutso.

Aba bagabo rero ni benshi cyane nkuko ubabona, harimo abakuze, hakurya babona n'abadamu rwose, rero bafite amazi imbere yabo bari kwinywera, kugira ngo icyaka kitabica, ari mudutasi turimo icyayi kubagishoboye, impapuro ndetse na za mudasobwa dore yabo.

Aba rero ni abasore n'inkumi nkuko ubibona rwose bamwe bambaye udupira tw'umweru n'utwumutuku bafite mudasobwa, barimo baraganira ku kintu runaka ndetse baniga, bagiye bafite telefoni mu ntoki bari kuzikoresha, ibikombe biteretse imbere yabo ndetse n'amazi.

Aha ni ahantu rero ushobora kuza ukifotoza ifoto yawe bagahita bayiguha uyijyanye ahantu runaka. Kkuko ubibona kuri icyo kirango cyanditsemo irembo, ndetse hasi hari imiryango ibiri ifunguye hirya hari n'indi wagira ngo siyo ihakorerwa gusa wagira ngo hari n'ubundi bucuruzi.

Ubu rero ni uburyo bwiza nawe ushobora kwikorera rwose, byakenuye abaturage; aho wajyaga gushaka ibyemezo ugasanga urabibuze cyangwa biranakugoye kubera kwiruka ku bayobozi, ariko ubu ushobora kwaka: icyemezo cy'ishyingirwa, icyemezo cy'uko wavutse wenda igihe runaka, icyemezo cy'uko utakatiwe n'inkiko, biterwa.

Aha rero bisa naho ari ahantu abantu benshi baza kuvugira ibibazo byabo bakabafasha uko ubibona harimo abagabo ndetse n'abagore umwe yicaye kuri mudasobwa arimo arumva ibyo abandi bamubwira kugira ngo abibakemurire.

Leta yarabyoroheje cyane ubungubu ntago bi ikigoranye rwose ko washaka ibyemezo, ngo wirirwe wiruka kuri ba mudugudu na ba gitifu uragisaba ukagenda ugiye gusinyisha gusa mu gihe waba ushaka icy'ishyingirwa ik'ivuka urakibona.

Aha rero nk'uko uhabona ni ahantu uba ugiye kwakira kuko butubye wenda uru rubuga rwashyiriweho abaturage ba Leta b'i Rwanda nk'uko bikunda rwose ushobora kujyaho ukaka ubwishingize runaka nko kwishyura Mituelle n'ibindi.

Ni byiza ko umenyekanisha ipatanti y'umwaka wose wa bibiri na makumyabiri na gatanu cyangwa igihembwe cya mbere, uyu munsi wishyure mbere y'itariki ntarengwa ya mirongo itatu nimwe z'ukwa mbere na bibiri na makumyabiri na gatanu, ibi rero biri ngombwa cyane kuko bifasha abantu batandukanye gukoresha mudasobwa cyangwa telefone yawe.

Kumenyekanisha umusoro kare ni byiza cyane kuko biragufasha bikurinda guhanwa nk'uko ubibona rero hano bari kuvuga ko uyu munsi ariwo wanyuma kuri iki kirango gisize amabara y'ubururu, amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo. Rero jya ubikora hakiri kare kugira ngo ejo utazahanwa ugatanga amafaranga y'inyongera kandi wakayaguzemo ibirayi abana bakarya.

Iyi ni hoteri yubatse ku buryo bugezweho ndetse butangaje, ikaba yubatse mu gihugu cy' uRwanda mu mujyi wa Kigali; aho abakerarugendo bishimira kuyisura ndetse ikaberarwamo n'ibikorwa bitandukanye by'igihugu.

Leta yigeze kuzana uburyo bwiza cyane bwo kujya yigisha umwana mudasobwa, byarabafashije bamwe, baratinyuka, bumva ko babishoboye. Nk'uko ubibona rero, aba ni abanyeshuri bicayeho, bafite izisa icyatsi ndetse n'umweru, nziza cyane.

Iyi rero ni iminara itanga itumanaho turabayotuma ubasha guhamagara cyangwa ugahamagara ibintu bitandukanye mbese kohereza amafaranga hanze mu mahanga cyangwa mu ntara bishoboka byose iyo ubikoze rero ibi byakemuye ibibazo byinshi cyane byari byarateye muri rubanda bigasaba ko uva mujya ahandi kugira ngo ushyire umuntu ibiceri bye.

Inyubako igaragara nk'ishuri mbere yayo hamanitse idarapo rigihugu cy'u Rwanda hanze y'ikigo hari umuntu mu muhanda ufite igitabo mu ntoki ugenda yihuta ageze hafi y'icyapa.

Ikoranabuhanga ni ryiza ryakemuye byinshi ndetse ryatugejeje kuri byinshi mu iterambere, icyo ushatse gukora cyose iyo ugikoze oniliyini cyangwa se ukagikorera kuri mudasobwa uba wizeye ko byanga bikunda kizageraho kigomba kugaragara kandi kikagaragarira ku gihe kigasubizwa neza.

Shaka akazi kuko kazagutunga, ndetse uzamara igihe rwose binagutungire umuryango nkuko tubizi. Hano rero bari gushaka abakozi ushobora kuza nawe ukagerageza ukareba ko iriya ntebe wayicaramo, ukajya ubona amafaranga agutunga.

Uyu ni umunara rero utanga itumanaho, ukaba wabasha guhamagara umuryango wawe nko mu ntara wenda, cyangwa se ahantu runaka ukabasha kuba wohereza amafaranga utiri buva aho uri, ndetse mugakorana ibintu byose, nta kibazo kibayeho.

Aha rero ni ahantu ushobora kuza kohereza cyangwa kwakira amafaranga mu bindi bihugu runaka yaba ahaturutse cyangwa ari kujyayo, nk'uko ubibona hano hari ibyapa biranga ndetse n'ibindi bitandukanye biri mu mabara y'umutuku byanditseho airtel, byandiseho emupesa, imirongo yose dushobora gukoresha.

Aha urahabona ni abari beza bishimye umwe bafite imisatsi iboshye ukuntu bicaye ku ntebe abandi bafite amafaranga , bisa n'aho bari bitabiriye ibirori runaka, barimo bafotoza telefone zabo kugira ngo bazajye babyibuka igihe babikeneye.

Mucuruzi cyangwa nawe ukora ibintu bijyanye no gusora urasabwa kujya wishyurira ku gihe kuko bishobora gutabara benshi ba noneho rero bari kukwibutsa ko itariki ya nyuma ari mirongo itatu z'ukwakenda bibiri na makumyabiri na kane.

Hano rero ni kuri rwa rubuga Leta yakoreye abantu bose bashakaho ibyemezo baba bakeneye, iby'ishyingirwa, iby'ivuka ndetse n'ibindi byinshi, abiyandikisha gutwara ibinyabiziga mu bwoko bwose, rero nawe nakugira inama yo kujya ubikoresha.

Ni byiza gushaka akazi kuko karagutunga mu buzima bwawe bwa buri munsi kakagufasha, kakagaburira umuryango wawe n'ibindi bintu runaka. Rero nk'uko ubibona ni ngombwa ko nawe ushobora kujya kugerageza amahirwe, ukicara kuri iyi ntebe y'umukara uri kubona aho ngaho.

Aha rero ni ahantu bagira ibintu bitandukanye, ndetse uza ukabasaba ibyemezo runaka iby'ishyingirwa, ndetse n'ibindi. Nk'uko ubona rero uyu nguyu ndeba arimo arabagana n'gapira k'uturongo tw'umweru, ahetse agakapu inyuma n'inkweto zifunguye zo kogeramo, arimo arashaka kwinjira muri uriya muryango.

neza ko na ufite utabirarane byajya biba ngombwa ko bajya wigaragaza batiriwe baza kugushaka kuko bigabanya ibihano kandi bakaba batagufungira rwose, rero iyi ngiyi ni itakiki ntarengwa makumyabiri n'eshatu z'ukwacumi bibiri na makumyabiri na kane kaba wasoje.

Hano rero urahabona umunara uri mu biti byinshi cyane ndetse hanashashe utwatsi, gusa bisa naho ari ku muhanda, hakurya urabona amazu meza cyane abantu biyubakiye rwose bari bafite ku mafaranga yabo.

Aha rero ni amapoto y'amashanyarazi agaburira abaturage runaka, nk'uko ubibona izi ni inzu ziri imbere yawe. Izi nsinga uko uzibona zicitse, hari abantu benshi badashobora kurya, bacuruza kubera umuriro w'amashanyarazi.

Uyu ni ipoto ry'amashanyarazi rwose ubona ko ryambutsa insinga zirivana hamwe zirigeze ahandi kuko nizo zikomera ndetse n'izicike zikabasha kuvana hakurya ziwugeza hiryiriya hari igiti ku musozi hari ibiti igicu cyiza cyane kitarimo ubururu bwinshi ndetse n'akandi kamwe.

Iyi nzu rero nk'uko iyibona ifite amabati y'umukara ndetse amatafari y'umutuku, hakurya hari umunara ubona ko uri kwambutsa insinga runaka izivana hamwe izijyana ahandi kugira ngo abakeneye umuriro w'amashanyarazi bawubone.

Nkurikije ukuntu mpabona hano ni mu nce zituyemo abantu ariko hakaba harimo n'aho barira, uyu musore ubonana uhagaze ku ifoto yambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'umukara, hejuru hari ibitsinga ikirere kirasa n'aho imvura igiye kugwa, hari ibiti byinshi wareba imbere gatoya hari ahantu hafunguye ushobora kuza ukiriramo ifiriti n'inyama.

Aha rero ubona ni ku nsinga z'amashanyarazi iyo zangiritse muhamagara umuntu akaza kuzibateranyiriza, gusa aba yambaye inkweto z'ibyuma zigenda zifata ku giti. Hakuryaho anafashe ku nsinga zirimo izijyana umuriro mu ngo runaka.

Ibyuma rero bizitiye umunara nk'uko ubibona hariho n'ibindi bintu byongera umuriro igihe ugiye cyangwa ubuze, ukaba mukeya, hakurya hari ikirango cyanditseho amusiteli kiri mu bara y'umutuku ndetse n'umweru, bigaragara ko ari aho kunywera rwose.

Hariho ikirangantego hariho amagambo yanditse rurimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda mu kinyarwanda haraditse ngo banki nkuru y'u Rwanda hariho amadarapo y'ibihugu rimwe abiri atatu ane atanu.

Aha rero ni ku muhanda nk'uko uhabona, hari akayira k'abanyamaguru karimo umubyeyi uri kuzamuka, hakurya hari icyapa cyerekana ko ntahoguhagarara hahari ku binyabiziga, hakaba hari ipoto hejuru y'umuriro w'amashanyarazi iwutwara uwujyana mu ngo zitandukanye.

Ikirere urabona ko gikeye kirimo ubururu bukeya, agacu k'umweru, ipoto ry'amashanyarazi rishinze ahantu mu biti byinshi, nkuko ubibona ni no ku musozi rwose, izi nsinga ziriho zijyana kuri buri rugo umuriro kugira ngo abashe gucana umuturage.

Aya ni amapoto agemura umuriro w'amashanyarazi. Nk'uko ubibona biriya bintu biteretse hejuru bimeze nk'ibijerekani birawongera cyangwa bikawugabanya, biterwa n'igihe ukuntu byari byifashe .Munsi urabona rero hariho abantu bari gutambuka, Gusa birabujijwe guhagarara hano mugihe imvura iri kugwa cyangwa inkuba ziri gukubita.

Hano rero ni ku muhanda nk'uko uhabona hakurya hararenga moto undi nawe arimo aramanuka asa n'aho ahetse igikapu, hirya hari aho abacuruza, wakubite ijisho imbere ukabona icyapa kiriho mirongo itandatu, ubwo bivuze ko umuntu utwara ikinyabiziga wese atemerewe kurenza umuvuduko utegetswe igihe ari muri uyu muhanda.

Hano ni ku muhanda nk'uko ubibona rwose, bamwe bari kugenda abandi bari kugaruka hari amapoto y'amashanyarazi yaca hejuru, amatara amurika nijoro igihe bwije, imodoka z'ihagaze n'izindi ziri kumanuka urabona ko ari ibintu bikeye rwose.

Ibi rero ni ibintu bishobora kongera umuriro cyangwa bikawugabanya, igihe ubaye mwinshi. Waza ari mucye, bikawongera bikawohereza ku baturage runaka. Ibi ni byo bigaburira umurenge cyangwa umudugudu biterwa n'ubushobozi bwayo.

Uyu rero nk'uko ubibona ni umwari mwiza cyane wambaye umupira w'ubururu, inyuma handitseho amagambo asa umweru, ndetse afite ikayi hafi ari no gukoresha mudasobwa, ubona ko abyishimiye, ubu ni ubumenyi rero bukoresha kuri buri muntu wese.

Aha rero turabona hari amakaro meza cyane, intebe, abasore ndetse n'inkumi bicaye bategereje ibintu runaka bafite impapuro ndetse n'ibindi bintu bitandukanye gusa nkurikije uko mabona hano hantu ni kwa muganga hari utuntu turi kwaka tw'icyatsi.

Ibitaro ni byiza cyane birafasha nkuko ubibona rwose hano n'ikirango cy'ibyerekana Kacyiru, harimo ibiti biteye muri utu twatsi byiza cyane, amapoto y'amashanyarazi yambuka, hakurya urahabona inyubako rero, isa n'aho ariho abantu bagana.

Aha uhabonye harasa neza cyane ndetse hanasakaye, nta mvura ishobora kuhagera, amatara ndetse n'ibindi bintu byinshi igipanbona ko cyegeranye n'ahandi hantu wagirango ni kwa muganga ahari niba ndi kwitegereza neza.

Aha rero ni ku muhanda nk'uko ubibona hari imihanda ibiri itandukanye ifite ibiti byiza cyane imodoka hakurya isa icyatsi ndetse n'izindi nyinshi zisa umweru, abamotari. Wahareba iriya ni inzu amagambo yanditseho yerekana ko ari aho ababyeyi babyarira.

Ni nyubako itanga serivise, harimo umugabo wambaye umupira w'umweru wakira abamugana. Hari umugabo uje ateruye umwana, akaba yambaye rinete ndetse n'ipantaro y'umukara.

Akavura ubwo kari kamaze kugwa ubona hatose hakurya ndakabana aka modoka k'umutuku, ndetse n'igiti kiri imbere yako iyindi niyo bifashisha bari kwigisha abantu gutwara, umuhanda ndetse n'izindi nyinshi cyane uri kubibona mvura iracyari kugwa rwose.

Igikuta cy'amabuye, ubona ko imbere hateye ibyatsi harimo n'ibiti rwose, ubona ko ari ibintu bisa neza. Hakurya urahabona inzu nini y'amabati y'umutuku ndetse n'amatafari meza cyane n'amadirishya.

Aha ni ahantu rero nk'uko uhabona hari icyuma gifashe amabati kugira ngo atagwa, utugozi tuzengurutse ahantu hateye ibyatsi kugira ngo umuntu adakandagiramo ubwo turababuza, uduti duteyemo hakurya urabona n'ikirango gisa n'ikirimo amazu meza rwose wagira ngo ni ahantu mu kigo runaka.

Hano urabona ko hakeye, utwatsi twiwe rwose. Ibintu bikinze ibyobo kuburyo nta muntu wagwamo. Aho bashyira imyanda nk'uko ubibona ni muri iriya ngarani y'umutuku. Hakurya hari ibihombo bimanura amazi, ubona ko nyine ari ahantu hafite gahunda. Niba ndeba neza rero iki wagira ngo ni ikigo runaka.

Aha rero urabona ni ku muhanda mwiza cyane ukeye nta myanda irimo. Hari ivatiri ebyiri imwe iri kumanuka indi iri kuzamuka, hakurya urahabona abantu babiri rwose bisa nkaho bafite aho bari guturuka. Inzu nziza cyane y'amabati y'ubururu ndende ubona ko wagira ngo haberamo ibikorwaremezo runaka.

Haracyeye cyane inkingi zifashe amabati kugira ngo abantu bahagendera batanyagirwa, ibirango biranga aho berekeje, ibyatsi bihateye hashobora kwicaramo utubuye dutuma hasa neza, n'indi miryango. Aha rero nkurikije ukuntu mpabona ni kwa muganga waza ukivuza nta kibazo.

Aha rero ubona ko hashashe meza cyane amanuka, ndetse hari ababyeyi benshi cyane bafite ibikapu, amabase ndetse n'abagabo n'utubido, hakurya hari ibigega nkurikije ukuntu mbibona rero aha ngaha hasshobora kuba ari kwa muganga abantu bivuriza indwara zitandukanye.

Aha rero nkuko uhabona nkurikije njye ibyo mbona ni kwa muganga hateye utwatsi, hari umugabo wambaye ishati y'umuhondo afite impapuro mu ntoki bisa n'aho hari ibyo ari kubaza, intebe imbere ye igihe urushye ukicara, ibyuma bihateye ndetse n'utuyira tugiye dusakaye ku buryo utanyagirwa uri kujya ahantu runaka.

Uyu musore urabona ko ari kumanuka ahantu, nkurikije uko mpabona ni ku Muhima ku bitaro byaho, hakurya hari abagore bicaye ubona ko bafite abantu bategereje, inzira ino nzira rero ahantu ijya ni aho ababyeyi babyarira rwose. Ubaye uhazi cyangwa ushaka kuhajya, uhita unyuramo aho ngaho rwose.

Aha rero nk'uko uhabona hari abantu bambaye imyenda isa ndetse n'umucungagereza imbere yabo ku gipangu cy'umukara, sinzi ibyo bari kumubwira hari indobo yo gukarabiramo ndetse n'akabase gusa hano hajya abantu bakoze ibyaha runaka cyangwa se bashinjwa nko kwiba.

Rero nk'uko ubibona, niba ndeba neza yagiye mu rukiko rwose, kuko uyu umuntu yambaye imyenda y'imikara ndetse n'akantu k'umweri, afite mikoro ndetse byerekana ko yanasezeranye rwose. Hari umugabo yubatse, ibi biranga abantu barengera abandi mu mategeko igihe urengana bakakurenganura. Imbere ye hari idarapo ry'u Rwanda.

Uyu mugabo usa n'ukuze nk'uko mubona yasokoje agasatsi ntabwo ari guseka nawe yarakaye hari imyenda yambaye y'umutuku ndetse n'ibigaragaza ko ari umucamanza nyine arengera amategeko.

K'umuhanda munini wa kaburimbo hahagaze mo muto n'umunyegare. Hakuno hari inyubako ifunguye ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, hasi hagaragara ko bayahabogoye, mu muryango hahagaze igare.

Isoko rifite ibicuruzwa bitandukanye by'imitako yakorewe mu Rwanda, harimo uduseke twinshi n'imitako yo mu ijosi, n'imitako yo kumanika mu nzu harimo n'ibibumbano bigiye bitandukanye n'udutebo.

Aba rero ni abagabo babiri ubona ko bakuze bafite ikintu runaka bambaye amakanzu meza y'umukara n'umweru ubona ko agaragara kubantu barenganura abantu ma mategeko iyo ubona nawe ugiye kurengana urabegera bakagufasha.

Aha rero urabona ko hari ababyeyi benshi bahateraniye ndetse n'abasaza n'abagabo bakiri bato bitwikiriye imitaka ubona ko izuba ryari ryabishe, naho abicaye imbere nabo bafite ibyo bari kubabwira bitandukanye tutamenye ibyo ari byo bisa n'aho uyu uri imbere hari ibyo ari gushinjwa nkurikije uko mbibona.

Aba ni ababyeyi ndetse n'abagabo bitwikiriya umutaka, biusa nkaho izuba ryabishe, bicaye mu twatsi, hakurya urahabona uduhagaze, ndetse n'uwambaye imyenda y'ibitenge, bisa naho bari imbere y'abandi bagabo bameze nk'aho ari abacamanza rwose, bafite ibipapuro ndetse barimo barareba amakuru atandukanye.

Aba rero ubona inyuma bambaye imyenda isa, bogoshe, ni abagororwa; basa n' ababa barakoze amakosa nyine bakajya kuyahanirwa. Imbere y'aho urabona umuporisi rwose wifashe neza; imodoka zibazanye inyuma y'aho, ni nziza zaparitse nawe urabibona.

Aha rero bisa naho bano bari imbere rwose bari gushinjwa ibyaha runaka bakoze bakaba bari kubiryozwa nyine, bambaye imyenda isa urabibona; hakurya hari abandi bicaye b'abagabo ndetse n'umudamu bisa nkaho bafite ibyo bari kubabaza, ndetse n'imodoka y'umweru uri kubona hakurya iri kure.

Uyu ni umubyeyi washiritse isoni ndetse n'ubwoba, aravuga ngo ndashoboye reka nange ngerageze, aragenda yiga amategeko arayasoza, ahita abona akazi rwose urana yambaye ikanzu ibagaragaza imiringa ku matwi, ibintu bisa neza cyane.

Aha ni ahantu rero bajyana abantu batandukanye harimo abajura, ndetse n'abandi baba barakoze ibyaha nyine bakaza kubihanirwa bakabiryozwa, igihe babona bagororotse bakabarekura ariko iyo byanze ugumamo iyi rero ni gereza ya nyanza.

Nkurikije ukuntu mbabona ari benshi cyane, bambaye imyenda isa bose, banogoshe ndetse n'ababaherekeje umwe imbere n'undi inyuma, aba rero ni abagororwa, ubwo bigaragara ko hano bari ni muri gereza, inyuma urahabonamo ibiti byiza cyane.

Cyera hari uburyo abantu bakoze ibyaha, hashyizweho inkiko gacaca zikajya zibahana kubera ibyo bakoze. Iyo nkurikije rero ukuntu mbibona, niyi foto isa nkaho ar'iya cyera rwose. Irimo abagore benshi ndetse n'abagabo bamwe bafite ibipapuro imbere yabo, bari guhana umuntu wambaye imyenda y'iroza.

Aha rero ni kuri polisi nk'uko ubona iki kirango kibyerekana, amagambo yanditse mu ibara ry'ububuru ikirango cy'umweru ndetse n'ikirangantego cy'u Rwanda, hakurya urahabona ibiti ndetse n'abamotari benshi basa naho bafite ibyo bari bajemo.

Izi rero ni inzego cyangwa se ingazi biterwa n'uburyo ubivugamo, ziri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, zikozwe mu byuma bazifashisha bari kumanika ibintu bitandukanye, urugero nk'amatara, inzira bari kuyishyiramo n'indi mitako runaka hano batagera.

Iki rero ni ikintu gifasha abantu kuzimya umuriro igihe ahantu hafashwe n'inkongi runaka, kigomba kuba kiri ahantu hatandukanye: muri hoteli, ku bigo by'amashuri, kwa muganga ndetse n'ahandi. Hasi rero hari akantu banagamo imyanda yakoreshejwe.

Uyu rero ni umukozi ukorera inzego za leta polisi ariko ushinzwe umutekano mu muhanda, nk'uko umubona rwose mu myambaro ye myiza, imbere ye hari umufuka wagira ngo urimo ibintu by'ibirayi ukuntu ku ngorofani, hakurya hari icyapa cyanditseho sitopu "hagarara akanya gato" ku bazi amategeko y'umuhanda ubwo bo barahita babyumva ndetse hari n'umumotari utwaye umugenzi.

Aha rero nkuko uhabona ni ku muhanda heza cyane hakurya hari imirongo inka yaciye mu muhanda nyabagendwa, irimo irambukamo abagenzi igaragaza ko hambukirwa abanyamaguru, abanyamagare urababona nabo bari kugenda, umupolisi wambaye imyenda y'akazi bisa naho ategereje abakora amakosa ngo abahane.

ibi rero nk'uko ubibona biri mu mabara y'umutuku, imigozi y'umukara, ni bibiri bimanitse ku gikuta. Rero bifasha ahantu kuhazimya igihe hafashwe n'inkongi y'umuriro. Akenshi ubisanga mu bigo by'amashuri, kwa muganga ndetse n'ahandi nyine hahurira abantu benshi. Ni ngombwa rero kuba nawe ubifite.

Uyu rero n'umugozi bifashisha igihe cya kintu bazimisha umuriro kibaye kigufiya cyangwa kiri ahantu harehare batwara cyangwa se bakawutwramo amazi nyine biterwa, iyo inzu ihiye rero uyu barawifashisha.

Imodoka rero urayibona iparoste ahantu muganda k'amabuye gusa harafunze hari iyinindi iri kwinjira ni ebyiri imbere yaho hari ibiti byiza cyane biteyeho ahandi urahabona ibirahure n'inzu ikeye ishobora kwinjiramo ukareba nawe.

Uyu ni perezida wa repubulika paul kagame arimo arageza ijambo ku bantu ndetse n'abandi bari bitabiriye bino bintu , inyuma urabona ko harimo umugore ukenyeye n'undi mugabo wambaye ikositumu nziza na karuvati n'ibendera ry'u Rwanda.

Uyu mugabo mubona uri kuri mikoro, yari ari kuvuga imigabo n'imigambi ye ayibwira abaturage kugira ngo bazamutore ndetse azayobore Igihugu cy'u Rwanda ariko ntiyahiriwe, Perezida Paul Kagame yaramutsinze ariko reka twizere ko ubutaha wenda naguma kugerageza ntacike intege bizagenda neza.

Ubu rero ni uburyo bwiza cyane ndetse bunoroshye Leta ibasha kuba yagabanya uturere, imirenge ndetse n'ibindi biba bigaragaza nyine kugira ngo ayo makuru azabashe kwifashishwa mu gihe runaka gitandukanye.

Uyu rero ni umugabo uhagarariye ishyaka rya girini pati na we wagerageje kwiyamamariza kuyobora u Rwanda ariko ntibyamuhira, gusa urabona hano yarari imbere y'abantu ari kubabwira imigabo n'imigambi yiwe, ntabwo twamuca intege ahubwo azagerageze ubutaha bizakunda wenda.

Aba rero ni ababyeyi ubonako basa nabakuze bafite ibintu barikuganiraho, gusa harimo na batoya bafite amakayi rwose ubona bicaye bafite ibindi bintu bijyanye ni ntumbero runaka, intebe inyuma yabo ndetse bambaye imyenda yanditseho DGPR green party iri ni ishyaka riri mu Rwanda rihakorera rishaka kwiyamamaza rikazayobora.

Uyu rero ni perezida wa repubulika y'u Rwanda Polo Kagame, nkuko ubibona yicaye ku ntebe hagati y'abantu n'imbaga nyamwinshi, bamukurikiye bari kuganira nawe nkurikije uko mbibona ari kubaza ibibazo, agahita amusubiza mu buryo bworoshye cyane.

Aba rero ubona harimo abagabo ndetse n'abagore batinyutse, barimo bararahira bafashe ku idarapo ry'u Rwanda, mu mabara y' ubururu, umuhondo, icyatsi, harimo izuba hagati, inyuma urabona hari ibirango ndetse na mikoro imbere zabo.

FPR Inkotanyi n'ishyaka rikorera mu Rwanda ndetse riyobowe na Perezida Paul Kagame, abona ko rifite imbaraga kandi ryakoze ibintu bitandukanye, rirangwa n'amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umutuku.

Aha rero ndahabona abagore ndetse n'abagabo, batonze umuronko, impande yaho hari ahantu unaga imyanda, urugero niba waruri kunywa agafanta ugahita ujugunya icupa mo aho ngaho batonze umurongo rero bafite ahantu bari kwinjira, nkurikije uko mbibona basa nk'aho bari gutora.

Abantu ubonako buri muntu afite gahunda ziwe rwose ari kwigendera, bamwe bahetse ibikapu bari kumanuka, umubyeyi uri gutambika, hakurya urabona imodoka nazo zigenda, amahema ahateretse ubona ko ushobora kugenda ukicara izuba ntirikwice ngo uruhe, ndetse n'amazu meza ubonako asakaye acyeye.

Uyu mugabo rero na we ari mu bantu bigiriye icyizere aravuga ati: "Nange ndashoboye, reka ngende niyamamaze kuba umukuru w'igihugu." N'ubwo utamuhiriye ariko urabona ko yari afite gahunda rwose yo kuba yagira ikintu amarira abaturage.

Aha rero ni mu nzu nini cyane urabona ko icyeye, irimo abantu benshi batandukanye, hakurya urahabona hicaye abantu babiri bayoboye ibyo bintu biri kubera hano. Harimo udutara turi kwaka, hari yo amatereviziyo bareberaho ibintu bisa neza.

Abashirutse ubute bakabasha kujya mu nteko zitandukanye no mu nzego za leta nibo bazi uburyo bimeze, harimo abagore, abagabo, nk'uko ubibona rero bafite za mudasobwa imbere yabo, amazi ya Nile, bicaye munzu hameze nko munzu nini berabyombi, hari umugabo uri imbere yabo uri kubabwira.

Uyu mugabo rero, nawe yigeze kugerageza guhangana na perezida wa repubulika y'u Rwanda mu amatora yo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu; nk'uko mubibona hano, afite mikoro harimo baraganira n'itangazamakuru, iyi iri imbere ni iya tiviwani. Mudasobwa imbere ye, gusa bigaragara ko uwari uri kuyireba yari ari kurebera kuri televiziyo.

Gutora ni byiza ni ingenzi kandi ugomba gukora mu buryo ukoresheje ubwenge ukamenya uwo ushaka, Nk'uko ubibona hano hari abantu batatu kuri izi mpapuro nyinshi cyane baza bakaguha rumwe ukajya mu mwiherero, ukagenda ugatora wamara ugahita uruzana ukarumuhereza, akaruzinga akarushyira ahantu.

Aba rero nkuko ubabona n'abantu benshi ariko bamwe bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'umutuku abandi ntago tuzi iyo bambaye uko isa, bisa n'aho bari kwamamaza umuntu runaka wagerageje kwiyamamaza gukora inshingano zo kuyobora igihugu.

Umumotari ubona ko ari kurenga hari n'undi musore ufite ingorofani atwaraho imizigo y'ibiryo arimo arambuka agenda, hakurya hari undi musore wicaye afite umufuka urimo ibintu tutazi hakurya hari n'andi mazu rwose bacururizamo.

Urabona abantu bari gutambuka nk'abagenda abandi bagaruka, urahabona moto yanditsetseho mayode ini Rwanda bisa n'aho ariho zikorerwa izi rero zitwara imizigo, intebe, ubugari bwinshi, n'ibindi bintu runaka ariko ukahabona n'izindi modoka nyinshi cyane z'umweru ziparitse zitwara abantu mu buryo bwa rusange.

Izi modoka nk'uko uzibona ni iz'umweru ndetse zirakabara k'umuhondo hasi izi rero zitwara abantu m'uburyo bwihariye ushaka kwikodesha nawe wajya uyitumiza ariko hirya urahabona izindi nyinshi rero zitwara abandi m'uburyo bwa rusange zibavana hamwe zibajyana ahandi.

Aba rero naba motari ubona ko babisikana na matara arikwaka, batwaye abagenzi .Undi arahagaze hari moto nyinshi cyane z'ubururu rwose ubonako zitegereje gutwara imizigo abantu bari baje guhaha ku isoko hejuru hari ipoto z'amashanyarazi n'insinga zihatambuka ,hakurya urahabona ibiti byinshi cyane.

Aha rero no ku muhanda nk'uko ubibona hari ikamyo iri kuza bisa n'aho ihetse ibintu runaka gusa ntitwabimenya kubera ko iratwikiriye, aho uturongo tw'umweru dutambitse mu muhanda ubona ko ari aho abanyamaguru bambukira, gusa ndabona batabikurikije harimo abatembera, nk'uyu mubyeyi bambaye ikanzu y'ubururu wegeranye n'iyi modoka y'umukara, abandi bo bategereje guhita bakomeza nk'uko babibona.

Iyi rero ni imodoka ubona ko itwara abantu mu buryo bwa rusange iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru. Ni benshi, itwara nka mirongo irindwi na kuzamura; muri kubibona bari kwinjiramo. Ariko nkurikije ukuntu hano hantu mpabona, bisa nk'aho ari muri gare rwose.

Aha rero ni ku muhanda nkuko ubibona rwose nawe, kaburimbo iri kumanuka ikoze neza, harimo imodoka nayo igenda ubwoko bw'umweru hasi inyuze mu murongo w'umuhondo, iyi itwara abantu mu buryo bwihariye ukabona abadamu bamanuka bahetse amashakoshi bisa naho bari kwerekeza ahantu batega imikino y'amahirwe.

Aha rero ni ku muhanda nyabagendwa urabona ko hanyura ibinyabiziga bishoreranye binamanuka, iyi ni dina dayihatso, itwara imizigo itandukanye ibitoki hakurya urabona umumotari, inzugi zirimo abacuruza ibintu bitandukanye.

Akazi ko gutwara abagenzi karagabura ndetse nkuko ubibona uyu niwe, na byo ni byo kuba afite moto y'ubururu, ingofero zibarinda ibyago, imirongo y'umuhondo iciye mu muhanda, hakurya hari ibiti byiza cyane ubanako hari imodoka iri kurenga bisa naho itagiye.

Imodoka rero zitwara abantu mu buryo rusange nk'uko ubibona nk'iyi ngiyi iri mu mabara y'umweru irakubajyana mu rugo cyangwa se mu kazi biterwa hakurya urahabona indi biiri kubisikana, inyuma hari moto yari iturutseyo yambaye ingofero imurinda ibyago ndetse n'ibiti impande yabo.

Ni imodoka ebyiri ziri mu byerekezo bitandukanye, hirya hari urugo rufite korotire yi'cyatsi, kuruhande hari umunyamaguru ugenda, inyuma y'uruzitiro haparitse imodoka.

Iyi rero ni ikamyo yo mu bwoko bwa hoho isa umutuku yikoreye umucanga, bawutwikiriye ngo imvura itagwa ngo iwunyagire hirya gatoya hari ibiti byiza cyane ubona ko bizana akayaga n'ikirere cyuje umucyo ntakibazo.

Iyi modoka ubona rero, iyi itwaye abantu mu buryo bwa rusange, hejuru ya mirongo irindwi na batanu, rero iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru irimo irazamuka bisa naho ijyanye bamwe iwabo cyangwa se ibajyanye ku kazi runaka.

Izi rero ni imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, ngo na zimwe zirasa umweru izindi zirimo utubara tw'ubururu, abantu benshi cyane, bamwe bari kuva guhaha abandi bafite abana, hakurya urahabona ibigega by'ubururu, ndetse n'amapoto y'amashanyarazi.

Aha rero ni ku muhanda hatambukamo ibinyabiziga nk'uko ubibona umunyonzi atwaye umwana ndetse n'undi muntu mukuru umuteruye, imbere hari moto itwara imizigo hakurya hari umugenzi uri kwitambukira rwose ndetse n'ibintu by'icyatsi bihakoralotiriye bisa n'aho byerekana ko hari imirimo iri kubaka.

Bano rero ubona ni abakora umwuga wo gutwara moto ni benshi bambaye ingofero zibarinda ibyago ndetse abantu bari kubagana bahetse ibikapu kugira ngo babavane hamwe bageze ahandi havugiraho n' amatara ari kwaka busa ntaho buri kwira.

Iyi rero ni imodoka yo mu bwoko bwa fuso nkuko ubibona isa nihetse umucanga. Iyi ngiyi rero ikunda kuwukura ahantu kure mu ntara biterwa nuwo ushaka hakurya hariyo undi na none uri kumanuka ndetse n'ibintu bikorutiriye aho ngaho bigaragaza ko hari imirimo yo kubaka ihari.

Moto ubona ko iri mu bwoko bwa meyidi ini Rwanda nyine zikorerwa inaha urabona iratwikiriye ntago ibintu byanyagirwa ihetse ibintu isa niri kumanuka iyingiyi rero nt'izikorera imizigo hakurya urahabona abagabo bahagaze bafite ibyo bari kuganira kumapoto y'amashanyarazi ndetse n'icyapa hakurya urabona imodoka iri kumanuka.

Uyu mumotari ubona atwaye ingofero irinda abantu kubateza ibyago mu ntoki undi arayambaye urikubona hirya hari igipangu cy'umweru ndetse n'utwatsi, inyuma ye hari abandi babiri basa naho baje bamukurikiye.

Imodoka ihetse indi nkuko mubibona iki ni gikamyo rero gitwara izangiritse zitabasha kugenda, iyo inyuma ni toyota hakurya urahabona ahantu hakotirije ibintu by'icyatsi n'ibiti harimo abantu bari kubaka cyangwa bari gupakira izindi modoka.

Iyi modoka rero ni iyo mu bwoko bwa fuso, nkuko ubibona, irazitiye rwose nta hantu ano macupa itwaye yanyura atakara. Hejuru hari amatoya hasi hari amanini, aya rero ni yo bifashisha bari guteka ibiryo runaka.

Aha rero ndahabona umunyonzi utwaye umugabo inyuma wambaye umupira w'ubururu n'agafuka akikiye ari kubisikana n'imodoka y'umweru imanutse zikorera umucanga cyangwa amabuye biterwa, hakurya urahabona ibiti ndetse n'umugi.

Amarembo ariho icyapa avuga ibijyanye n'ibikorerwa aho, ahantu handitseho igororero rya Rwamagana aho bajyana abantu bafite imico itari myiza, kugira ngo bagororwe bagire imico myiza.

Izi rero ni imodoka ebyiri ziri kubisikana zose hari ikirango kirimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru kererekana ko zikomeza zikanazamuka, urabona ko hari umuntu wari umaze gufata igicucucu ke kigaragara, ibiti byiza cyane bikeye n'amatara acana niijoro igihe bwije.

Ahantu bategera bisi mu buryo bwa rusange nk'uko ubibona. Bamwe baricaye, aho udukapu badushyize impande yabo, abandi bari kugenda ngo binjiremo. Izi rero zitwara abantu mu buryo bwa rusange ziba zifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu hasi, zitwara abantu benshi.

Hano rero nk'uko uhabona ni mu muhanda hari moto yikorera imizigo izi nizo zabugenewe ishasheho urushitingi rw'umweru rw'amabara y'ubururu, yicayeho umugabo rwose urabo ko ari kureba imbere ayitwaye hakurya urahabona uruzitiro ruriho ibiti ndetse byerekana ko wagirango ngo bahakorera imirimo runaka y'amaboko.

Gutwara ibinyabiziga ni ibintu bishobora gukorwa buri munsi cyane ndetse bikanamutunga akishyurira umwana we ndetse n' umuryango we ndetse n' ibindi urabona yi ngiyi iri mumabara y' ubururu n' umweru itwara abantu bari hajuru ya mirongo irindwi na batanu kuzamura ihagaze muri gare yo mu mugi bisa nkaho ibategereje kugira ngo baze bagemo ibacyure.

Iyi rero n'imodoka nini cyane, itwara ibiro byinshi nk'uko uyibona iras' umuhondo ikir' inyuma kigasa umweru , hakurya har' izindi ziri kuza ziyisatira ndetse ubonako hari n' abanyonzi batwaye abagenzi , ar' ibintu byiza cyane.

Iyi rero ni imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, ariko ni bakeya cyane nkuko ubibona irakuze izi ni izakera zakozwe muri mirongo icyenda na, urahabona hari isoko ryiza cyane bahahiramo ibiribwa bitandukanyekanye, abantu bisa naho bafite ubumuga bwo kugenda gake gake.

Aba rero urabona ko ari abamotari bari ku muhanda ndetse n'umunyonzi uri gutambuka, impande ye hari imodoka, wakubita akajisho hakurya, hari abanyamaguru benshi bamwe bafite udufuka n'abandi bari kwitahira ntacyo bafite n'amazu ubona ko wagira ngo ni ay'ubucuruzi.

Mu gitondo cya kare rwose, urabona ko aribyo byiza kugenda ariko nonene utazindutse. Nta kajagari kaba kari mu muhanda, iri kumanuka yonyine hakurya indi modoka itwara anantu mu buryo rusange imbera hari umumotari, ni byiza ko nawe rero wajya ugerageza ubwo buryo nkubwiye.

Aha rero ni umuferege ucamo amazi. Hirya hari akayira kabanyamaguru batambukamo, ndetse n'undi mugabo waje gukoresha imodoka ye ifunguye imiryango, bakuyemo ipine barimo barayisana kugira ngo asubire muhanda akore akazi.

Hano rero nkuko uhabona n'ahantu abantu basokera cyangwa se bakaza kuganirira bishimye, muri utu twatsi utubuye tuhateye ndetse n'intebe uriya mubyeyi yicayeho wambaye agapira k'umukara, hakurya urabona umuntu ukora ibintu bitandukanye byo gucuruza ama unite, abitsa akanabikura ndetse naho unaga imyanda.

Aha rero bisa n'aho ari ku muhanda, hakurya hanyuramo ibinyabiziga nk'uko ubibona biri guturuka hirya, ibiti byiza cyane, amapoto ajyana umuriro w'amashanyarazi ndetse n'andi y'amatara acana n'ijoro igihe bwije, aka gahanda urabibona ko gakeye gateyemo icyatsi bisa n'aho ari ako abantu bakoreramo siporo cyangwa ibindi bintu.

Hano ni ku muhanda urahabona nawe, hari inzira ziyobora mo amazi ndetse n'akarara k'abanyamaguru, hari icyapa ubona ko kiri mu mutuku, umweruru, hasi yari umuntu uri kwambuka nabwo, ibiti byinshi n'amazu meza.

iki ni ikirango rero kirebana n'ibinyabiziga nuba utwaye ukakibona, uzahite umenya ko hari gukorwa imirimo yo gukora umuhanda cyangwa kubaka harimo ikirango cy'umutuku ndetse n'umuhondo, undi na we uri gutiyura umucanga bisa n'aho ari umuntu.

Iki ni ikirango rero kireba abantu batwara ibinyabiziga bitandukanye, iyo kibonye rero uba ubona kiri mu mabara y'ubururu, inyuguti ya pa. Kiranga ko aho ngaho hemerewe guhagarara ugakuramo abagenzi cyangwa ukabashyiramo; ukaba wanahamara iminsi, biterwa.

Iki rero ni Ikirango kireba abanyamuhanda batwara ibinyabiziga kiri mu mabara rwose y'umuhondo ndetse n'umukara nkuko ubibona hari udukoni tubiri dusa n'utugoramye ariko tugaragaza imihanda nugera imbere haraba hafunganye.

Iki rero ni ikirango cyerekana ko bitemewe gukata iburyo kiri mumabara y'umutuku ndetse n'umweru hanyuzemo akarango k'umukara bireba abantu batwara ibinyabiziga ugeze ngo bakakibona ntugikurikize urahanwa.

Inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'inzugi zifite ibaraya gusa umweru n'ibirahure by'umukara hasi hari amakaro ifite ibyumba bikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda.

Hano rero ni ku muhanda nkuko ubibona hari uturabyo twiza, utwatsi hakurya hari ahantu ukoze neza ubona ko ntaho wahurira n'icyondo, ibiti ndetse n'inzu ifite ibigega bibika amazi imirasire hejuru iyashyushya, imodoka yaparitse hari icyapa rero ubona ko kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, harimo akantu k'akazamuko ubwo bivuze ko imbere gato hari umuhanda utaringaniye.

Hano rero nkuko ubibona bari mu mirimo y'amaboko bisa naho bari gucukura ahantu runaka, hakurya urabona ko ari ibinyabiziga biba biri gutambuka byigendera, ubwo bivuze ko ari ku muhanda, iki rero kirango cyerekane ko hano bari mu kazi rwose, nk'uko nawe ubireba.

Hano rero ni umuhanda unyuramo imodoka mu byerekezo bitandukanye izimanuka ndetse n'izizamuka uciyemo imirongo y'umuhondo hagati hakurya urahabona ibiti biteye, amatara amurika nijoro igihe bwije ariho ibirango ubona ko ari mu ibara ry'ubururu.

Aha rero ni ku umuhanda hari moto imodoka ndetse n'indi itwara abantu mu buryo bwa rusange ziri kuharenga zikomeza, hirya harira akayira k'abanyamaguru n'ibyatsi, iki ni cyapa kihateye, ubona ko ba ki mu ishusho ry'umweru, umutuku ndetse agaragaza ko bazenguruka imbere gato.

Aha rero nk'uko ubibona ni ku muhanda nyabagendwa rwose, nk'uko uyu musore uri kubona ari gutambuka, hirya hari inzu z'amakaro wagira ngo ni iz'ubucuruzi, icyapa cy'ishusho y'umuzenguruko ndetse harimo umweru, umutuku n'imibare yanditseho mirongo itandatu, uyu rero ni umuvuduko utegetswe ntarengwa.

Aha rero urabona abasore babiri b'inkorokoro bambaye imyenda y'akazi y'icyatsi iriho utugarurarumuri, bari kumunika ibirango byerekana ko aho ugeze hari icyuma gishobora kugufoto igihe ukoze amakosa, urengeje umuvuduko wa mirongo itandatu nk'uko icyo cyapa kibivuga hejuru.

Ku bantu batwara ibinyabiziga ibi rero birabareba uko ubona biri mu cyatsi bivuze ngo bagomba guhagarara bakabyubahiriza, abantu bagatambuka cyangwa se ibindi bifite iyo bijya bikagenda.

Iki ni ikirango rero ubona ko kireba abantu batwara ibinyabiziga runaka kiri mu ibara ry'umuhondo, uyu murongo ubona utambitse ugahita ukatamo undi ugakomeza bisa n'aho ari umuhanda byerekana ko ibumoso hari ahandi ushobora gukatira.

Iki rero ni ikirango kiriho abantu batwara ibinyabiziga uko ubibona rwose, kiri mu ishusho y'umuhondo ndetse n'umukara bisa naho kigaragaza ahantu banyura bazengurutse nkurikije ukuntu mbibona, inyuma yaho hari igiti k'inganzamarumbo.

Iki rero ni kirango kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru kiba giteretse ku muhanda ahantu runaka nyine hatambuka ibinyabiziga, ibi rero bireba buri muntu wese ukora ako kazi mvuze ajye acyubahiriza igihe akibonye.

Abantu batwara ibinyabiziga ni ngombwa kujya bakurikiza, ibyapa byashyizwe ku muhanda kuko birafasha cyane, ku muntu uzajya ubona iki ngiki ,rero kiri mu mabara y'umweru ndetse uruziga rw'umutuku, harimo umuntu uri kwambuka ,bigaragara ko hakurya hari igihe urahita ubona uturango tw'umweru turi mu muhanda ,uhite uhagarara igihe hari abantu bakeneye gutambuka.

Rero ibi ni ibibareba ku batwaza ibinyabiziga nkuko ubibona ikirango cy'umweru ndetse uruziga rw'umutuku amagambo ya mirongo itandatu imbere yerekana ko utagomba kurenza umuvuduko utegetswe rwose nk'uko nawe ubizi.

Aha rero urabona ni ku muhanda, hakurya ni abamotari ndetse n'ibyuma bizitiye ahantu runaka, amataje meza cyane, hari ikirango cy'icyatsi cyandikishijeho amagambo y'umweru, hariho indege ndetse n'umuhanda werekana ushaka kuzenguruka, hariho ibiri ikomeza, iki rero kigaragaza ko ahantu uri kujya ari aho bategera bashaka kujya mu muhanda cyangwa hanze mu mahanga, bagiye na za rutemikirere.

Aha hantu umwaka ishize nta muntu abashaka kuba yatura kubera ngo hari ibihuru ariko ubu ndebera nawe ibihuru byahindutse ndemera etage zirimo ukuntuzigeretse reba inzu ziri hasi rwose nawe rero ntukajye unenga ubutaka ni ikintu kidahomba.

Aha rero nk'uko ubibona niba ndeba neza hari ibibati bisa n'ibyubatse ikintu runaka impande yabyo hari ibiti byiza cyane bisa neza hakurya yaho urahabona umujyi ukomeye rwose ugiye kuhatura byagusaba umuntu ufite amafaranga.

Hano rero urabona ko hari igikuta cy'amabuye, hateyeho uturabyo turaza turagihisha kuburyo utapfa kubimenya. Hejuru hari ibyuma bihateye, igipangu cyiza cy'amatafari ahiye ubona ko kimeze neza, wakubita akajisho mo imbere harimo inzu wagira ngo ibamo abantu.

Hano rero bisa naho ari ubutaka bahinzemo ibintu runaka tutaramenya. Hakurya turahabona ibiti, ndetse n'uruhande rwo gutambika, ugenda ahantu hari amazu menshi afite amabati y'ubururu, ubona ko yubakitse nyine, ameze nk'icyuma yose.

Umutaka wa sosiyete ikora ubucuruzi bw'itumanaho eyateri, uteretse impande y'umuhanda munsi y'umutaka hakaba arimo umukobwa wambaye ijiri y'umuhondo ya emutiyene, impande yaho gato hakaba hari gutambuka undi mugabo, impande yaho gato, hakaba hari abaporisi babiri bahagaze, basa n'abitegereza uburyo ki ibinyabiziga birimo birahita mu muhanda.

Aha rero ni kumuhanda nyabagendwa biragaragara abamotari bahetse abagenzi, imodoka zihaparitse, ndetse nibitangira izihanyura bitemewe urabona rero ninzu zubucurzi nziza cyane hejuru yayo hari umunara n'ibiti impande.

Aha rero urabibona hari igipangu gisize irange ry' ubururu n' umweru, hakurya hari imikino abana bakiniramo bisa nk' aho ari ikigo cy' amashuri nyine bazanaho abakiri batoya kugira ngo babajijure bazabashe kujya mu mwaka wa mbere bafite ubumenye.

Hano ni kumuhanda nkuko bigaragara ku buryo ahita ukata hepfo hari imodoka ya toyota yeo mu bwoko bwa piyasi irimo aramanuka urabona n'igipangu cy'icyatsi kiri hakurya n'amabati y'umutuku ndetse n'ibirango biteye ku matara y'umuhanda nijoro igihe bacana.

Hano rero urahabona ikirango gihari cyerekana ahantu uri cyangwa umuhanda uhagazeho, utwatsi twiza cyane duteyemo n'indabyo n'ibiti, ndetse hari n'amazu, hariho n'ibipangu rwose ubona ko asakaye asa neza ushobora kugenda ukayiberamo.

Aha rero ni kumuhanda hari banki rwose ikora neza yitwa ayi andi emi rero hari icyapa kerekana ko ntakuhahagarara byemewe ubona ko uyu mumotari mbona yakoze amakosa rwose hakurya urabona inyubako nziza cyane yubaytse.

Ni ku isoko nkuko uhabona handitsemo momento, ushobora kuza rero nawe ukahahira imyenda ukayibona, amakanzu meza cyane hari n'abasore benshi b'inkorarokoro bambaye imyenda isa y'ubururu rwose ubona ko bategereje hiryo urabona n'imodoka.

Aha ni ahantu baturanye nk'uko ubibona rwose, amazu meza, ibiti byiza, ibipangu byiza cyane, ikirango cyerekana agace urimo cy'umweru, kiriho amagambo yandikishije ubururu, indabyo; hakurya urahabona umukobwa ufite akabido bisa n'aho agiye kugura amata, ari no kwitaba telefone.

Uyu rero n'umugabo utwaye moto y'ubwoko bwa tevisi inyuma iziritseho umugozi, yambaye ingofero imurinda mu gihe ayakoze impanuka, iyi iyo utayambaye bahita baguhana bakubonye. Ari mu gahanda k'amabuye bisa n'aho ari kwerekeza ahantu runaka. Kubita akajisho hakurya hirya hari ahantu bacuruza indobo n'amabasi bya parasitike.

Hano nk'uko uhabona hashashe amabuye meza cyane, urabona ko hari n'utuntu tugenda tukuyobora ku buryo urabona imodoka nziza zihaparitse z'umweru ndetse n'ahantu hacuruza imbuto zitandukanye n'ibiryo, ushobora kuzererana ugahaha.

Aha rero ni amazu ubona ko ari mu bwoko bwa kadasitiri ,etaje n'ibindi, gusa harimo ataruzuye neza cyane, hasa naho harimo ibiti bibazanira akayaga, ubungubu rero nawe uje ikibanza kukibona byagorana, ahubwo wajya kwihigira ahandi rwose.

Aha rero nk'uko uhabona hari abantu benshi rwose, umusore wambaye umupira w'umukara uri inyuma, hakurya hari ikirango cyerekana ko bakora imfunguzo, munsi yaho hari umwari wambaye agashati k'ubururu ndetse n'undi ufite inkweto , wakubita akajisho hirya ubona abamotari baparitse bisa naho bombi bafite ahantu baje.

Aha nkuko uhabona harasa nk'ahantu hazitiye ibyuma n'utundi tuntu tumeza nk'utuyunguruzo hari ibyatsi ariko sinabyita ibyo kuko ibi ni ibihuru rwose. Uyu muntu ntasuku yigeze ahagirira, hakurya urahabona amataje meza afite n'ibirahure bikeya.

Iyi nyubakora urabona ni nini cyane irimo ibikorwa remezo bitandukanye, harimo amadirishya meza, hejuru waza ukahicara rwose ukitegera umujyi ukareba, hakurya urahabona ahantu batega bakoresheje amahirwe nyine bari gukina ibintu bitandukanye.

Ubwishingizwe buzwi nka buritamu baragufasha n'igihe imodoka yabo yagize ikibazo kuburyo itabasha kuva aho iri babishyura na baragideni iza kuyihakura hitamo beretamu inshuti y'ibihe byose.

Aha rero hari ibiti byiza cyane n'amabati asa n'ashaje ndetse n'andi y'umutuku inzu z'umweru hakurya hari Indi itaruzura ikirere ubona ko gifite ukuntu kidasa neza hakurya urahabona umunara utanga itumanaho.

Hano rero urahabona ni ku muhanda, hari moto iri kuzamuka, umubyeyi uhetse umwana witwikiriye umutaka, impande ye hari imodoka ebyiri, imwe iparitse ireba imbere indi ireba inyuma, hirya hari inzu gatoya y'umweru ndetse n'ibiti byinshi cyane.

Kigali ikeye inasukuye nk'uko ibona rwose ni nijoro, moto ziri kugenda zicanye amatara, abantu bari guca munsi y'ikiraro, utwatsi imbere yabo andi hejuru amurika m'umuhanda, ndetse ubona ko ari ibintu bikeye cyane rwose.

Aha rero nk'uko ubibona ino mirongo iciye mu muhanda hagati ni iyerekana ko abantu ariho bambukira abanyamaguru, kiriya kiri kwaka rero kirimo umutuku cyerekana ko nta muntu wemerewe kuhatambuka nk'uko mubibona ariko bamwe babikoze abamotari bahagaze, imodoka zahagaze.

Uyu ni umuhanada rero nyabagendwa ucamo ibinyabiziga bitandukanye urabona harimo imirongo irombereje y'umweru ndetse n'umuhondo, hakurya urahabona imodoka ziri kuzamuka ndetse na moto ziri kumanuka zitwaye abagenzi, amapoto acana nijoro igihe bwije ukabasha kureba ndetse n'ibiti.

Aha rero ni k'umuhanda nk'uko ubibona n'akayira k'abanyamaguru aho bambukira hacimo uturongo tw'umweru hakurya iziri kwaka umutuku ndavuga ya matara ahagarika abantu abamotari urabona ko nabo bahagaze bategereje ko babaha uburenganzira bwo gutambuka.

Aha rero nk'uko tubizi ni ku muhanda rwose urabona ino modoka iri kwirukanka cyane ntabwo babashije kuyifata iri kugenda, ariko hari amagambo yanditse ayangaya rero ku batwaza b'ibinyabiziga bayabona bajye bahita bamenya ko imbere yabo ho gatoya hari umuhanda utaringaniye, hari andi ayabanziriza ariko bisa n'aho ariyo bari bagezeho.

Aha rero ni umuhanda nyabagendwa unyuramo ibinyabiziga, hakurya urahabona akayira k'abanyamaguru gatandukanywa n'indabyo n'ibiti nkuko ubibona rero, haranyuramo izimanuka n'izizamuka, abamotari bari kuza bigendera rwose nta kibazo bafite.

Aha rero ku muhanda nkuko ubibona harimo imirongo y'umuhondo icagaguye, hakurya hari ahandi hari gutambuka umunyegare, hari imirongo imwe itambitsemo ubona ko yerekana ko hari abantu bambukira b'abanyamaguru runaka hamwe na moto biri kumanuka.

Uyu muhanda nk'uko ubibona usa n'aho nta kajagari karimo abamotari hakurya babiri umwe yambaye umupira w'umweru hirya hari ibyatsi harimo moto irigutambuka imwe yikorera imizigo ndetse n'imodoka yikoreye imizigo isa naho irikwerekeza ahantu runaka.

Hano ni kumuhanda urimo utubuye twinshi cyane dushobora kukunyereza, igihe urebye nabi utwaye ikinyabiziga nka moto, cyangwa igare. Nkuko ubibona rero hari za zindi zikorera imizigo ziri guturuka hepfo zizamuka. Hari ibiti byiza cyane, amazu, urabona ko hatuye abantu.

Aha rero ni ku muhanda nk'uko ubibona rwose, harimo ibiti hagati hanyura izizamuka ndetse n'izimanuka, harazenguruka nk'uko uri kubibona kuri kiriya cyapa kiri mu mabara y'ubururu kiriho utuntu kwikaraze bivuze ko hano bahanyura, hakurya urahabona imodoka ndetse n'abanyamagare, moto biri gutambuka.

Hano rero ni mu muhanda nk'uko ubibona rwandex ku bahazi cyane mu mujyi wa Kigali hakugeraho na moto iri kumanuka, ndetse n'umunyonzi ari gutunguka, imodoka nayo iri kumanuka. Ino mirongo rero irimo ikatakase ni ukuvuga ko utagomba kuhagararamo hagati.

Hano rero ni ku muhanda ariko usa naho wangiritse uri gusatagurika nkuko ubibona hari aho bashyize abanyamaguru bari gushaka guhagarara wendacyangwa ngo bahashyire ibirango n'amatara runaka kugira babona imodoka ziri kuza zimanuka ndetse na moto zitandukanye.

Aha urahabona umuhanda w'igitaka urimo utubuye twinshi, ushobora kukunyereza igihe utwaye igare cyangwa moto. Turabona uturabya twiza cyane ndetse n'ibiti bihateye, wagera imbere ukabona undi ukomeza, ukoze neza, ubona ko nta kibazo ufite.

Aha rero nk'uko ubibona ni mu muhanda nyabagendwa, imodoka zimwe ziri kumamuka izindi zizamuka, gusa zica munsi y'ikiraro, izindi zica hejuru yacyo. Hari amatara meza rwose amurika igihe bwije, ibiti bikeye rwose, nawe nakugira inama yo kuzahatemberera ukareba.

Uyu muhanda nkuku ubibona ni nyabagendwa rwose harimo izi mpanuka n'izamuka umunyonzi akurikiraho n'izindi ziparitse gusa zo zijya mu ntara ndavuga imodoka rero. Hari ibiti byiza cyane wakubita akajisho hakurya hari etaje y'umweru.

Aha rero ni mumuhanda nyabagendwa nk'uko ubibona hari utuyira tw'abanyamaguru igikuta cy'amabuye kizamutse hakurye ndetse n'undi n'umusaza ubona ko afite umufuka imbere ye uhateretse na moto ziri kurenga munsi y'ikiraro ndetse n'amatara meza cyane amurikira abantu ijo bwije.

Aha rero ni ku cyapa cyangwa aho imodoka zihagarara zitandukanye zaba zitwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse n'iz'abandi ku giti cyabo, urabona hari akazu k'ubururu abantu bicaramo igihe barushye, hari iziri kumanuka ndetse hari n'izindi ubona ko zibereye muri gahunda zabo hari ibiti byiza cyane.

Aha rero ni ku muhanda ngo wabona w'igitaka, urebye nawe utwaye moto cyangwa igare wahanyurerarwa ukikubita hasi hari indabyo, hari ahaca amazi habugenewe, ubona ko bahubakiye ibipangu biri hejuru, ndetse n'ibiti birimo bizana akayaga.

Aha rero ni ku muhanda nkuko ubibona uhita ukata undi unyuramo izimanuka, izizamuka hakurya urahabona imirongo y'umweru iciye hagati ni iyerekana ko hambukira abanyamaguru. Ibiti ku muhanda ndetse n'indabo nyinshi cyane.

Uyu muhanda nk'uko ubibona uciyemo umurongo w'umuhondo hirya hari ibiti ndetse n'umuyonzi uri kuzamuka izindi moto nazo ziri kwerekeza ahandi hari n'abanyamaguru barimo baratambuka bafite bagiye hakurya y'utuzu hakaba hari inzu y'amabati y'umutuku.